Nziza cyane irimo abantu batandukanye, harimo abantu bakuze bambaye amarinete abasaza, abasore, abagabo, amazi imbere abateretse imbere, bari kuyanywera mu birahure, bafite za mashini abantu bari gukora inama.

Nziza cyane ifite amabara y'umuhondo n'umukara, harimo amatara meza yaka umweru, harimo abantu bagiye batandukanya abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru bicayemo, amazi abateretse imbere, mashine, impapuro zo kwandikaho.

Inyubako nziza cyane, irimo amatara meza yaka umweru, harimo abantu bagiye batandukanye: abagore, abagabo, harimo abazungu, harimo abirabura, ameza abateretse imbere ateretseho ururabyo rwiza, intebe bicayemo ni nziza cyane, ndabona wambaye wambaye ikote ry'ubururu.

Iyi inyubako irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo, abagore, bari gukora inama, ameza abari imbere, bateguje ibitambaro byiza, harimo amakaro meza, abashefu, abandi n'abaseriva.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba gikorerwamo inama, inyuma yabo hari umokameramani, imbere yabo hari ameza asa umutuku, bicaye ku ntebe z'umukara, amamikoro imbere yabo, abandi bafite imashini imbere yabo, amazi imbere yabo.

Ni inzu iberwamo inama, abantu benshi bagiye batandukanye, abagore, abagabo, abasore, n'abakobwa, bicaye ku ntebe z'imituku, harimo uwambaye ingofero, umugabo umusore uhagaze yambaye ishati y'umukara, yegeranye n'uwambaye tshirt y'umweru, n'uma mama usutse, wambaye rinete, ubyibushye, abantu bari kuganira, bari mu nama.

Muri kaburimbo harimo ahantu hagiye batandukanye, abagabo, imitaka y'umuhondo irimo amabara ya emutiyene, umuntu wambaye isarubeti cy'ubururu, amapoto y'amashanyarazi ,ibiti, hirya yaho hari inzu nziza ifite irangi ry'umweru...

Ni umunara uriho insinga nyinshi zigiye zitandukanyeye zijyana umuriro ahantu hagiye hatandukanye, hejuru hari ikirere gisa neza cyane, kigizwe n'amabara y'umweru, amabara y'ubururu, hariho utwuma buririro kugirango ugere kuri iyi poto hejuru.

Umunara muremure uri ahantu mu ishyamba ugizwe n'amapoto, amapoto ariho insinga z'umuriro, umunara uriho utuntu buririraho hariho insinga nyinshi zijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye.

Ishuri cyangwa ivuriro, imbere yaryo hari jaride nziza, ibiti byiza, amatara, insinga z'amashanyarazi, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, risakajwe amabati y'umutuku.

Abanyururu bambaye amapingu, bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'amaroze, imodoka ibazanye, abasoroviye bahagaze imbere yabo bacunga, bafite imbunda.

Abantu bicaye inyuma yabo hari inzu, mo hagati harimo umunyururu wambaye imyenda y'umuhondo, abitwikiriye imitaka, ababyeyi, abasaza bicaye bateze amatwi ikiganiro umunyuru ari kubaha.

Kizimyamwota akazi kayo ni ukuzimya ahantu habaye inkongi igizwe n'umupira wayo usa umukara, igizwe n'amabara asa umutuku, igizwe n'urufunguzo ruri hejuru rufungura umupira kugira ngo ibashe kuzimya ahantu.

Inyubako irimo abantu bagiye batandukanye bameza nk'abantu bari mu nama barishimye cyane harimo abagabo, harimo abagore, harimo abasore, harimo abana, harimo perezida w'igihugu yambaye neza cyane arishimye.

Imodoka itwaye umuntu uri kwiyamamaza, hari aba afite icyapa kimuriho ifoto ye kiri kumwamamaza, ashaka ko bamutora, hari abamama bari guseka, hari basore bari gukubita ingoma, umusore wambaye umupira w'umuhondo uri kumwamamaza n'abamama bambaye imipira iriho ifoto ye.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka isa ubururu, umunyonzi uhetse umugore, ikamyo y'amabara y'umweru, munsi ifite amabara y'umuhondo, ipakiye imifuka myinshi cyane.

Kaburimbo irimo abantu, ibikamyo bipakiye imizigo biri kugenda, ibiti byinshi, amashyamba, amazu abantu batuyemo, ibinyabiziga, abantu bari kugenda mu muhanda.

Umujyi mwiza cyane urimo ama etaje, ama etaje menshi agiye atandukanye, afite amabara y'umuhondo, ibiti byiza, hagizwe n'abantu benshi batandukanye, aho bicara baruhuka, ni umujyi mwiza urimo amahumbezi meza.

Icyapa kigizwe n'amabara y'umutuku, mo hagati harimo ibabara ry'umweru, haparitswemo imodoka, icyapa kigaragaza ko utemerewe guparika aho hantu, gikozwe n'uruziga rw'umukara, hagasigwamo amabara y'imyeru.

Icyapa kiyobora abagenzi, hasi hari amabara y'umweru, amabara y'umutuku, n'amabara y'umukara, mo hagati harimo igishushanyo cy'umuntu usa umukara, impande yayo hari inzu isize karabasasu.

Ni umujyi mwiza cyane ugizwemo n'ibiti, ibiti bitandukanye, urimo amazu meza cyane, amazu nayo agiye atandukanye ama etage, ndabona amazu asakaje amabati y'imituku, amabati agiye atandukanye y'ubwoko butandukanye, ni ahantu hagaragara neza cyane.

Amazu meza cyane, amazu agiye atandukanye, hari asakaje amabati y'umutuku, asize irange ry'umuhondo, asize irange ry'umweru, hari kaburimbo irimo ibiti, hariho insinga z'amashanyarazi.

Inyubako ya etaje nziza cyane iriho ibiti imbere yayo, haparitse imodoka zigiye zitandukanye, hari abantu benshi, bagiye batandukanye abagabo, abagore.

Umujyi mwiza cyane urimo insinga z'amashanyarazi, urimo ibiti, urimo amazu meza agiye atandukanye, amazu y'amayetaje, asakaje amabati y'imituku, amabati y'umukara, umujyi urimo umugezi mwiza utemba.

Kaburimbo yo kunyurwamo n'abantu, iriho amatara ku muhanda, harimo ibinyabiziga, aba motari, imodoka, amashyamba, amapoto, kaburimbo iriho amapave.

Kaburimbo irimo abantu batandukanye bari kugenda, kaburimbo nyabagendwa irimo ibinyabiziga, amamodoka, moto, amatara yo ku muhanda, ibiti byiza, amajaride.